iki n'ikigo kizwi ku izina rya Sonarwa cyahoze gikorera mu gihugu cy'u Rwanda mu gutanga ubwishingizi cyangwa se kuba cyarinda ibintu byawe, inzu, imodoka nibindi bitandukanye gusa iki kigo ubungubu ntabwo kikiriho kuko kihuje n'ikindi kigo kimwe cyari kiriho bihita bibyara izina rya Sanilamu.

Uru ni urubuga rwa banke yo mu Rwanda. Aho ushobora kuba warujyaho mu gihe ushaka kuyikoresha cyangwa se ushaka kuba wakizigamira cyangwa se kuba wabitsaho, gusa iyo wizigamiye bakwereka inyungu ushobora kuba wakungukamo.

Iyi ni ikarita ushobora kuba wabikaho amafaranga cyangwa se ukaba wagura ibintu wifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga, rikaba rizwi ku izina rya viza. Aha ngaha ushobora kuba waguriraho ibintu bitandukanye ndetse iyi karita ikorwa ahantu hose ku isi.

Aha ni mu mujyi wa Kigali, ahangaha akaba ari mu iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye by'imideli. Ndetse ahangaha tukaba tubonamo imyenda itandukanye ndetse n'amakote meza cyane, aho ushobora kujya bakaba bakwambika.

Aha ni mu bubiko bw'amafaranga y'amadolari. Amafaranga akomeye cyane kuri uyu mugabane w'isi twese dutuyeho, aha ni mu bubiko bwayo aho ushobora kuba wayabika cyangwa aho bayakusanyiriza yose.

Aya ni amafaranga y'u Rwanda, afite agaciro k'igihumbi. Ugenekereje mu madorari wakongeraho amafaranga nka magana atatu kugira ngo angane n'idorari rimwe byibura. Aho iyi note iriho inzu ndangamurage y'u Rwanda iherereye i Nyanza, ndetse n'inkende kimwe mu bisigiza u Rwanda.

Aha ni ahabitswa cyangwa ahabikuzwa amafaranga, ushobora kuhajya ushaka nko kubitsa amafaranga cyangwa se ushaka kuyabikuza ahazwi n'ububiko bw'amafaranga tugenekereje mu rurimi rw'Ikinyarwanda ariko hazwi ku izina rya banki.

Ahan ni mu ikusanyirizo ry'amata, riherereye mu mujyi wa Kigali ikigaragara, aho ushobora kujya bakaba baguha amata cyangwa se ahakusanyirizwa amata hose, ushobora kugenda bakabaguha amata ndetse n'ibyo kurya bigiye bitandukanye.

Ibi ni ibiryo bigezweho, bikozwe mu ifarini n'ifu y'ingano, bikozwe mu birayi, n'ifu y'ifarini y'ingano, bikunzwe cyane mu Rwanda, bigurishwa ku mihanda, yaba umuntu uri mu modoka, cyangwa ugenda n'amaguru yabibona.

Ubu ni uburyo bw'ikoranabuhanga bwashyizweho n'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda kizwi ku izina rya emutiyeni, ubu ni uburyo nabwo ushobora kwifashisha mu gihe ushaka ibikorwa bitandukanye by'uru rubuga urugero nko kuba wagura matin kuba wabikuza cyangwa se kuba wabikutsa ushobora kubikora.

Aha ngaha ni uburyo ki bwo kwishyuramo amafaranga hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga bwazanywe n'ikigo cy'igihugu cyo mu gihugu cy'u Rwanda kizwi nka MTN. Akaba ari ikigo cy'itumanaho rero aha ngaha ushobora kuba wakwishyura ibintu bigiye bitandukanye wifashishije ibizwi nka momo.

Uru ni urupapuro rugaragaza uburyo kise cyangwa uburyo ibintu byawe ukibipanga mu buryo mu gihe kingana nk'ukwezi, ibintu uba ushaka kuba wakora ndetse abakozi ayo uzabahemba, ibyo uzagura, ibyo uzakenera byose, uru rupapuro rukaba ruzwi ku izina rya sheke.

Uru rupapuro ni urwerekana inyemezabwishyu bw'ikigo gishinzwe imisoro mu gihugu cy'u Rwanda kizwi ku izina rya Rwanda reveni otoriti, aho uba ugaragaza uburyo ki wagiye wishyuramo imisoro yawe mu mezi agiye atandukanye.

Uru ni urupapuro rw'inyemezabwishyu rutangwa n'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu gihugu cy'u Rwanda, kizwi nka Rwanda reveni otoroti. Uru ni urupapuro ruba rukwereka uburyo ki se wakwishyuramo imisoro cyangwa se uburyo ki wishyuyemo imisoro mu gihe cy'ukwezi cyangwa se mu gihe cy'umwaka.

Uru ni urupapuro rw'inyemezabwishyu rutangwa n'igihugu cya Rwanda Reven Authority, gishinzwe imisoro n'amahoro mu gihugu cy'u Rwanda, uru rupapuro rukaba rugufasha kuba wabona uburyo ki wakishyuramo se wagiye wishyuramo imisoro yawe mu gihe kingana n'ukwezi runaka cyangwa se imyaka runaka.

Aya ni amafaranga akomoka mu gihugu cya Tanzania azwi ku izina ry'amashiriningi, aho ayo mafaranga mu Rwanda, aba angana n'amafaranga magana atanu mirongo ine n'atatu n'ibindi bice.

Ubu ni uburyo ki abantu baguranamo amafaranga. Umwe aho aba ari kumuhereza amayero yo mu Buyapani ndetse undi akamuha amadorari akomoka mu gihugu cya Amerika. Aha bumvikana agaciro k'amafaranga yabo deni bakaba babasha kuba bayatanga.

Aya ni amafaranga agiye atandukanye, hano turi kubonamo nk'urugero amafaranga y'Amanyarwanda, tukabonamo amafaranga y'Amadolari, tukabonamo Amashiriningi tukabonamo ndetse n'amafaranga y'Amayero. Aya ni amafaranga yose afite icyo avuze, yemerewe mu Rwanda ndetse aremewe no gukoreshwa no kuba yaguranishwa.

Aya ni amafaranga y'amanyamahanga agiye atandukanye aho agenda avugishwa mu mafaranga mu buryo bugiye butandukanye n'urugero aya ngaya ni amafaranga y'amayero akoreshwa mu burayi hose ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye turaba turi kubonamo amayero yo mu buyapani ayo muri berijike ndetse n'ibindi bihugu bi bye bitandukanye.

Aya ni amafaranga magana atanu y'Amayero, ni amafaranga akomoka mu gihugu cy'Ubuyapani cyangwa se mu gihugu cy'Ububirigi, aho ushobora kuba wayaguranisha mu Rwanda, ubu Iyero rigeze ku mafaranga igihumbi na magana ane.

Aya ni amafaranga y'abanyamahanga azwi nk'amadorari cyangwa se ku mayero, aya mafaranga mu Rwanda akaba abafite agaciro kenshi gatandukanye, aho usaga idorari rimwe rishobora kuba ryavunjwa amafaranga igihumbi magana atatu y'amanyarwanda, ndetse n'inyero ari igihumbi magana ane mu manyarwanda.

Uyu ni umukozi ubishinzwe ushinzwe kuba yagufasha kohereza amafaranga muri afurika cyangwa se kuyabikura mu gihe bayakoherereje ndetse uyu nguyu agufasha mu gukurikirana ibintu ibyo aribyo byose mu gihe waba ushaka kujya hanze.

Ikigaragara cyo aha ngaha niahakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye by'ububaji. Aho bakora intebe, aho bakora ibintu babikamo ibizwi ku izina ry'akabati ndetse bashobora no kuba bakora, n'ah'uburiro ahazwi nk'ameza cyangwa se mu ndimi z'amahanga hazwi nka saramanje.

Izi ni zimwe muri hoteli zo mu gihugu cy'u Rwanda zigezweho cyane kandi nziza ahoshobora kujya bakaba baguha ibintu bitandukanye ndetse bafite n'ubwogero bwiza cyangwa se aho kogera hazwi nka piscine ndetse bakaba ukaba waharuhukira aha ni heza cyane.

Aha ni mu kabari cyangwa se ahazwi nko mu kabyiniro. Aha ushobora kuba wahagana mu gihe ushaka ibinyobwa bigiye bitandukanye ariko ibyinshi bikungahaye ku bisindisha, ni ukuvuga ibinyobwa bisembuye gusa bitavuze ko n'ibinyobwa bidasembuye nk'imitobe n'ibindi bitandukanye wabisangamo.

Iki ni kigo gishinzwe kuba cyatanga ubwishingizi mu gihugu cy'u Rwanda kizwi ku izina rya "saniramu," aho ushobora kujya ukaba washinganisha ibikorwa byawe bigiye bitandukanye cyangwa se imitungo yawe igiye itandukanye. Urugero aho washiganisha inzu yawe, ibicuruzwa byawe cyangwa se ikinyabiziga cyawe.

Iki ni ikigo cya NCBA. Giherereye, icyicaro gikuru cyayo giherereye hano ku Gisimenti, aho ushobora kujya ukaka inguzanyo, ukagenda wishyura gake gake yaba inguzanyo y'inzu, iy'imodoka cyangwa se iyo ariyo yose. Ikaba inakorana n'amakarita agiye atandukanye, nka za Visa n'izindi zigiye zitandukanye.

Ahan ni mu isoko ryo mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, aho ushobora kujya ukagura ibiribwa bigiye bitandukanye, yaba ibirimo imbuto yaba ibikungahaye ku binyampeke, ibiribwa ndetse n'ibindi wakoramo imitobe.

Aha ngaha ni mu buririro cyangwa se ahazwi nka resitora. ahangaha ushoborajya ushaka ibintu ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'urugero nk'ibi bintu turi kureba imbere yacu ni ibizwi ku izina ry'ibiraha. Ibi ngibi biba ari ibirayi bikozwemo n'isambusa.

Uyu ni umuhanda wo mu gihugu cy'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali, aho uyu muhanda uwambuka imbere yacu turahabona abantu benshi ndetse akaba ari no mu isoko, ushobora kuba wajyayo ukagura ibiribwa bigiye bitandukanye cyangwa se ibikoresho nkenerwa.

Mu isoko rya Kimironko, ahazwi nko mu isoko ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, nk'urugero turi kubona iduka ricuruza ibintu bijyanye n'umuco, aho turi kubonamo uduseke, ibizwi nk'amaseke, imitako, imiringa, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye by'umuco nyarwanda.

Iyi foto igaragaza umuntu ari kwandika imibare yo kwishyuriraho akoresheje uburyo bya MTN. Ubu ni uburyo umuntu ashobora kwishyuriraho amafaranga umucuruzi akayamwoherereza nta kindi kiguzi bimusabye.

Ubu ni uburyo ki bwashyizweho n'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda kizwi ku izina rya MTN. Aho ushobora kwishyura wifashishije ino mibare ntibagukate amafaranga na make ibizwi nko kwishyura peyi wive momo mu ndimi z'amahanga.

Iki ni ikigo gishinzwe kugeza ibiribwa ku bantu bagiye batandukanye, aho biba bihendutse cyane. Nta rindi kata bashyiraho, babikuzanira bakabikugezaho ku buntu.

Iki kigo gishinzwe kuba cyajyana ubutumwa cya cyageza ibintu ku muntu wabigitumye, aho ushobora kuba wajya ku rubuga rwabo ukaba wakandikamo icyo ushaka ukanabahamagara bakaba babikugezaho utarinze kuva aho uri.

Uru ni urugaga rw'abagore bishyize hamwe ku rwego rwo kugira ngo biteze imbere ndetse banarwanye icyorezo cyari cyarazahaje igihugu cy'u Rwanda ndetse n'isi muri rusange kizwi nka Covid 19 (korona virusi), iki kigo kikaba kiba gishinzwe kuba cyateza umugore imbere ndetse kikaba gishyigikiwe n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye.

Uru ni urubuga ushobora kuba waguriraho ibintu bitandukanye kubabaguriraho inkweto, ndetse kuba waguraho imyenda amashuka n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye iby'ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho bitandukanye aho ushobora kuba wakiguriraho wifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga ndetse bakabikugezaho aho uri hose.

Iki ni igishushanyo cyangwa se n'ishusho yerekana inyubako barimo baramamazwa irimo iragurishwa, iherereye mu mujyi wa Kigali, inyubako ikaba iri gushaka amafaranga angana na miliyoni ijana na mirongo itatu, mu mafaranga y'u Rwanda.

Iyi ni inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali aho iri kugurishwa akayabo k'amafaranga angana na miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda hakaba harimo amakaro trafo nziza cyane n'ibindi bigiye bitandukanye ibyumba n'amaduche byose aba ari byiza.

Aha ngaha ni ahazwi nk'inyubako abantu baturamo, aho ino nzu ushobora kuba wayibamo, usangamo ibintu byose bitandukanye, ibyo kwicaraho, ibyo kuryamaho, n'ibindi bigiye bitandukanye, aho ku kwezi iba ikodeshwa amafaranga igihumbi n'ijana by'amadolari.

Iyi ni inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda aho ushobora kuba wagana mu gihe ushaka kuba wayigura ikaba ihagaze agaciro k'amafaranga miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amanyarwanda.

Iyi ni inyubako iri ku isoko iri kugurishwa, iherereye mu Mujyi wa Kigali ahazwi nk'i Kanombe, ni mu karere ka Kicukiro, aho irimo iragurishwa amafaranga agera kuri miliyoni mirongo icyenda n'umunani mu mafaranga y'amanyarwanda.

Aha ni mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara ya Kigali, mu karere ka Gasabo, umurenge wa Remera ahazwi nko ku Gisimenti, aho ushobora kujya bakaba bakuvuza cyangwa se bagufasha kuba wabona inzu n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iyi ni inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali, iyi nyubako aho ushobora kuba wabonamo amacumbi agiye atandukanye cyangwa se wabonamo ibyumba ibizwi nko kuma (apartment) inyubako zo kubamo igihe gitoya cyangwag se kubamo igihe kirekire.

Aha ni hamwe mu maduka aba mu gihugu cy'u Rwanda, yambika abantu bagiye batandukanye. Nk'urugero ndi kubona umunyamahanga imbere yacu ari muri iri duka, aho ushobora kuba wahahira ibintu bigiye bitandukanye, yaba iby'abakobwa cyangwa se iby'abahungu, amakote meza, amashakoshi, inkweto n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, iyi karita igufasha kuba wakwivuza mu buryo bikoroheye ndetse ufite iyi karita ntarembera mu rugo, kuko iyi karita ica amafaranga make cyane, uyifite aba afite ubuzima bwe buhagaze neza.

Iki ni ikigo cy'igihugu gishinzwe cyangwa se gitanga ubwisungane mu kwivuza, ibizwi nka mutuwri do sante. Aho umuntu ashobora kuba yagura ubu bwisungane mu kwivuza, noneho akaba yabasha kuba yajya kwa muganga mu buryo bumworoheye.

Ejo heza, iki ni kigo cy'igihugu gishinzwe kuba cyafasha abantu kwizigamira mu busaza bwabo, mu gihe bageze mu zabukuru bakaba babasha ku guhereza amafaranga wizigamye, akaba yabasha ku gusindadagiza cyangwa yagufasha kuba wagenda uyakoresha ndetse bakaba banagushyiriraho inyungu ikomeye cyane.

Aha ni mu isoko ridaciriritse ibizwi nka supamaketi mu ndimi z'amahanga, aho ushobora kujya mu gihe ushaka ibiribwa bitandukanye, mu gihe waba ushaka ibyo kurya, ibyo kunywa, ibikungahaye ku mbuto n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye.

Aha ni mu maduka amwe agezweho mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se isoko aho ushobora kujya guhahira ibintu bigiye bitandukanye, ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibyo guteka bigiye bitandukanye, aha hakaba hazwi nko ku izina rya supamaketi. Bisobanuye isoko rirenze.

Iri ni isoko riherereye mu mujyi wa Kigali aho ushobora kuba warijyamo mu gihe ushaka kugura ibintu bigiye bitandukanye bya kijyambere ndetse aho ushobora no kuba wabonamo ibyokurya ndetse n'ibyokunywa. Gusa iri soko riba ritandukanye n'amasoko dusanzwe tuzi mu Gihugu cyacu kuko iri rizwi nk'isoko bita isoko ry'ikirenga ibizwi nka supamaketi.